Umugabo uri murima w'imbuto harimo ubutunguru n'amashu, arimo arita ku myaka agira ngo ayikize uburwara z'uburwayi akoresheje ipombo n'imiti yabugenewe, kugira ngo akize ubwo burwayi. Hirya hakaba hari ibiti.

Aba ni abagabo batatu harimo abaganga b'ibihingwa umwe muri bo afite agacupa akaba ari gusuka imiti mu kindi gicupa kinini cy'umweru abandi babiri baka bamuhagaze imbere, inyuma yabo hari urutoki runini, imbere yabo hakaba hari ibyatsi byinshi.

Aba ni abarobyi b'amafi, bari mu mazi magari. Bafite ibikoresho bitandukanye n'imyenda yabugenewe, bifashisha baroba amafi, bakaba bafite amafi menshi cyane mu kabasi ndetse no mu kadobo, bakaba bari kumwe n'abandi bantu benshi cyane batandukanye, harimo abaguzi.

Aba ni abaturage benshi cyane, havanzemo abahinzi, abakangurambaga b'ubuhinzi n'abayobozi batandukanye, n'abandi baturage bo mu nzego z'umutekano, bari mu gikorwa cy'ubuhinzi, aho bamwe bafite amasuka, abandi bakaba barimo barabagarira imyaka.

Abantu babiri bari iruhande rw'imifuka myinshi iteretse igiye yuzuyemo ibihingwa by'ibirayi bashoye ku isoko biteguye kubona abakiriya baza kubagurira.

Ishyamba rigari kandi ririmo ibiti binini cyane by'inganzamarumbo by'amoko menshi atandukanye, hamwe nta n'inzira igaragara muri iryo shyamba.

Abantu benshi bagera kuri batandatu, batatu begereye kamera bari imbere bari mu gikorwa cy'ubuhinzi bw'indabyo, barimo barita kuri icyocyo gihingwa kugira ngo kizatange umusaruro bazitaho bazitera n'imiti, banazishyira ku murongo neza.

Umugabo ari mu murima arimo aruhira imyaka, akoresheje uburyo bugezweho bwo kuhira imyaka, akoresheje umupira muremure ukura amazi ahantu kure kugira ngo imyaka yuhirwe, inyuma ye hari ibiti by'inganzamarumbo binini.

Iyi ni imiterere y'ubutaka, igaragaza udusozi duciye bugufi, udusozi duhanamye, n'ibibaya n'ibishanga, kuri utwo dusozi hakaba hariho amatarasi, hakaba hari n'amashyamba kuri iyo misozi.

Aka ni akazu k'inkwavu, aho inkwavu nyinshi cyane z'umweru ziri mo imbere zifite n'ibiryo bigiye biri ku mbehe aho zibasha kurira ibyo biryo byazo.

Ibibwana byinshi by'ingurube birimo bironka nyina iryamye hasi. Ikaba iryamye mu ibarizo, hakaba hari igiti gisize irangi ry'umweru kiri hafi aho.

Inka za kijyambere zirimo imfizi cyangwa se ibimasa n'inka zisanzwe zibyara. Hakaba harimo inka z'amoko menshi atandukanye amabara atandukanye. Akaba inyuma y'izo nka hari ibiti byinshi cyane zikaba ziri mu rwuri rugari cyane.

Aba ni abaganga batatu b'amatungo, barimo barita ku mbwa ifite ikibazo cy'uburwayi. Imbere yabo hari telefoni n'ibikoresho byabugenewe harimo nk'inshinge, bambaye imyenda yabugenewe, abandi bambaye nk'ibikoresho byabugenewe ku ntoki, kugira ngo babashe kwita ku mbwa.

Inyamaswa z'igasozi ziri mu rwuri rurimo utwatsi tugufi cyane dutoto n'uduhuru, kinyamaswa hakaba harimo imparage n'impara n'izindi nyinshi zitandukanye.

Aka ni akanyamaswa k'akanyeshyamba, kari mu ubwoko bw'inkwavu z'ikigunda cyangwa se agasamuzuri, kari ahantu mu byatsi byinshi, ibisharagati munsi yako hakaba hari ibiti byinshi cyane kahagazeho.